Ishuri rigira intebe zigiye zitandukanye zifite aho abanyeshuri bicara naho abanyeshuri babika amakayi. Kandi ziba zifite n'aho abanyeshuri bandikira, ziba zifite ikibaho cy'umwarimu yandikaho iyo ari kwigisha abanyeshuri.

Abanyeshuri iyo bari muri puratike baba bicaye imbere y'ibikoresho byabo, bafite n'imashini bari kureba ibintu bakoze nimba biri kuraninga. Iyo abayobozi baje kubasura bazabambaye ubupfukamunwa, kugira ngo batagira icyo bakura muri laboratwari kikabangiriza ubuzima.

Abanyeshuri iyo barangije ikiciro kimwe bagiye mu kindi ,bambara imyenda y'ingofero n'amakanzu bigaragaza ko basoje ikiciro kimwe bajya mu kindi, baba bagaragara neza cyane.

Abanyeshuri iyo bari gukoresha mudasobwa, baba bicaye bari gusacinga, bari kwiyungurana ubwenge, bari gukoresha interineti, bari gusacinga ibintu, kugira ngo amasomo yabo akomeze kugenda neza cyane.

Umunyeshuri w'umuhanga, atega amatwi ibyo mwarimu we ari kumwigisha, kugira ngo azabone amanota meza ashimishije kandi akazabona ni ikigo cyiza, akaziga amashuri menshi cyane.

Abantu bakora amaterefone, cyangwa se amakompiyuta, amatereviziyo, n'amatelefone baba bambaye imyenda yabugenewe ku buryo iyo bari mu kazi babona ari abahanga bafite uburyo bikoreramo ibintu byabo kandi neza.

Icyumba cy'ishuri abanyeshuri bigiramo, kibaka kirimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane haba harimo imfashanyigisho, zifasha abanyeshuri kumenya amasomo yabo neza kandi kiba giteguye neza cyane, ku buryo ubona gisa neza.

Abadozi baba ari abahanga cyane, kubera ko batudodera imyenda yacu iyo yacitse, kandi n'iyo dukeneye amakoti y'amakositimu barayatotodera, nuko n'ababyeyi bakenera kwambara amaribaya nabo bakayabadodera, ugasanga abantu bameze neza cyane, bambaye neza baraberewe.

Aho babariza intebe, haba harimo intebe zitararangira n'izindi zarangiye, haba hari abahungu bazi kuzikora neza, intebe baba bafite n'umuseno usena intebe neza.

Ishuri abanyeshuri bigiramo riba ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, riba rifite intebe zo kwicaraho, rifite utumeza two kwandikiraho, ndetse riba rifite n'ahantu ho kubika, imbere yabo haba hari ikibaho ndetse haba hari n'isaha yo kureberaho igihe.

Abanyeshuri iyo bari kwiga puratike, baba bambaye imyenda y'akazi urugero baba bambaye isarubeti, inkweto zifunze z'akazi, kandi baba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, ku buryo n'iyo bambaye ibikoresho by'akazi bibarinda impanuka zigiye zitandukanye.

Ahantu abanyeshuri bigira haba hasa neza cyane, noneho haba harimo n'ikibaho cyo kwandikaho, ku buryo mwarimu iyo aje kubigisha biba bimworoheye cyane. Kubaho haba hariho amarati yo gucisha imirongo igiye itandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, iyo bagize umunsi mukuru haje n'abayobozi babo gusangira na bo, amafunguro ya sa sita, biba bisa neza cyane kuko abana baba babyishimiye.